Abantu benshi higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abana bato cyane, bakaba bari mu gikorwa cyo guha aba bana bato amata kugira ngo babashe gukura neza.

Kimwe mu bikorwa remezo leta yashyizeho, harimo no guha abaturage amazi menshi, ndetse bakayabonera hafi. Kandi akaba ari amazi meza. Hano hari robine ifite imigezi ine, hakaba hariho umwana ufite indobo, uri kuvoma.

Abantu benshi batandukanye harimo: Abagabo, abagore ndetse n'abana batoya, bari kuvoma amazi ndetse bigaragara ko bari kuyavomera mu bintu bidasa neza, bamwe bafite amadobo abandi bafite ibijerekani.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ibikorwa byo gukusanya amazi, hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse ayo mazi akabasha kugera ahantu kure cyane, hahagazemo umuntu wambaye imyenda yabugenewe.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'abana bicaye hasi ndetse bigaragara ko aba bantu barimo kubaha igikoma ndetse harimo n'umupolisi.

Ikarita cyangwa se icyapa gifite ibara ry'ubururu, kikaba cyanditsweho amagambo y'icyongereza, yandikishijwe inyuguti z'amagambo y'umweru.

Abantu benshi bisa nk'aho barimo kwifotoza, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu Cyongereza ndetse harimo abagore ndetse n'abagabo, kandi harimo n'abambaye amataburiya y'umweru.

Ikigo nderabuzima kikaba gitanga ubufasha butandukanye ku bantu b'ingeri zose. Hari umusaza waje kwisuzumisha uburwayi butandukanye. Hakaba hari n'abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe.

Icyapa gishushanyijeho umwana uri kunywa amazi yanduye ndetse inyuma ye hari abandi bana benshi bagiye kunywa ayo mazi, hirya yaho hari intebe y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, bifashisha mu kuvura abantu ndetse harimo n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe.

Imbaga y'abantu batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu harimo umugabo wambaye ikositimu y'umukara.

Leta yagiye ishishikariza abaturage gukaraba intoki ndetse bakoresheje amazi meza n'isabune, aho buri muturage yagiye agirwa inama yo gushyira kandagira ukarabe mu rugo, kugira ngo igihe cyose uwinjiye cyangwa usohotse ajye yibuka gukaraba intoki.

Ni byiza ko abayobozi bahura bavuye mu bihugu bitandukanye, bagakora inama bakiga ku kintu cyahindura isi nziza, hano hari icyumba giteraniyemo n'abantu benshi bigaragarako bari mu nama.

Icyumba gikorerwamo n'abajyanama, aho abaturage babagana kugira ngo babagire inama ku bijyanye n'ubuzima, harimo abagore bari kuganira.

Abana benshi b'abahungu bari ku mugezi, bakaba barimo kuvoma amazi ya robine.

Umugore uri ku mugezi wa robine, akaba afite ibijekani byinshi, arimo kuvoma amazi meza, hakaba hariho icyapa cyanditswe mu magambo y'Icyongereza.

Urujya n'uruza rw'abantu abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari imodoka yifashishwa mu gutwara abantu bagize ikibazo, akaba ari imbangukiragutabara.

Leta yagiye ishyira ibikorwa bitandukanye ahantu hatandukanye, kugira ngo abaturage babashe kubaho neza kandi bafite ibyo bakeneye byose. Kimwe muri ibyo bashyizemo n'imigezi kugira ngo abaturage bajye babona aho bavoma amazi yo kwifashisha.

Inyubako isa nkaho ari inyubako y'ivuriro, ku ibaraza hakaba hicaye abantu batandukanye bisa nkaho bategereje kwakirwa ndetse hari n'abantu bari gukora bagenda bakira umwe umwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugore uteruye umwana ndetse hari n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, bigaragara ko arimo gusuzuma uyu mwana.

Icyumba cy'amashuri abanza, iki cyumba kikaba kirimo abanyeshuri batatu, bigaragara ko barimo kwiga ndetse bamanitse bashaka gutanga igitekerezo cyangwa gusubiza.

Icyumba kirimo abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano imwe kandi ndetse muri bo bambaye udupfukamunwa, barimo kurya ibiryo by'abo mu mashuri abanza babatekera.

Uruhurirane rw'abantu higanjemo abagabo ndetse n'abagore, ndetse hari n'akana gatoya baryamishije mu kantu kabajwe mu giti ndetse muri abo bantu harimo n'uwambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abapolisi.

Abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, abirabura ndetse n'abazungu, bakaba basa naho bari gufata ifoto, bose bahagaze bifashe neza.

Icyumba kirimo abana benshi batandukanye, abakobwa ndetse n'abahungu, bisa nk'aho aba bana bishimye cyane, hari umuntu uri kubaganiriza.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse akaba yiteye n'umukenyero, akaba yarakutse amenyo, yambaye ingofero isa nabi, bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, hari abantu babiri bafashe umuntu wambaye imyenda yacitse, bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu w'umugabo usa nabi wambaye imyenda yacitse, akaba afite n'umusatsi wamurariyeho, bisa nkaho uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko yipfutse mu maso arimo kurira.

Umuntu wegamye ku rukuta rw'inzu isa nk'aho ishaje, akaba yambaye ishati y'igitenge bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu uhagaze mu muhanda wambaye imyenda yacitse ndetse isa nabi. Akaba ahetse ibintu byinshi mu mugongo. Iruhande rwe hari imodoka nini iri kugenda mu muhanda. Bigaragara ko uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu wicaye iruhande rw'umuhanda, wambaye imyenda yacitse ndetse n'urukweto rumwe, ufite n'ibintu mu ntoki. Bigaragara ko asa nk'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu bigaragara ko ari igitsina gabo, akaba adasa neza nk'umuntu wiyitaho, kandi arimo kurira, bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ubusitani burimo abantu benshi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hakaba haparitse imodoka yanditseho amagambo y'Icyongereza, imbere y'iyo modoka, abo bantu bicaye ku ntebe ari babiri babiri.

Ikarita yanditseho amagambo y'icyongereza, ikaba ishushanyijeho n'ifoto y'umugore, iri mu mabara ya oranje.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu akaba ari guseka, uyu muntu afite amenyo meza y'umweru adafite ikibazo, bigaragara ko akoresha uburyo butandukanye kugira ngo abashe gusa neza.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, hariho umugabo bisa nkaho bari kumukura amenyo, akaba ari umuganga wambaye imyenda yabugenewe kugira ngo atabasha kwandura.

Igorofa rinini cyane rifite amarangi atandukanye, rikaba rifite bariko ziteye amarangi y'ubururu. Akaba ari aho batanga ubufasha ku bijyanye no kwivuza cyangwa se kwisuzumisha amenyo.

Igikorwa cyo gukura abantu amenyo aho hari abaganga b'inzobere babyigiye, baje gukura abantu amenyo, aho hari ababa batabonye aho bivuriza.

Umuntu urimo guseka, wambaye umupira w'amaboko maremare, akaba afite ibikoresho bitandukanye twakoresha kugira ngo tugire amenyo meza.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gukura amenyo mu gihe umuntu ayarwaye, ibi bikoresho bituma icyo gikorwa gikorwa neza nta zindi ngaruka bigize.

Koza amenyo buri munsi ni kimwe mu bikorwa bituma umuntu akira amenyo asa neza. Uyu ni umwana urimo koza amenyo. Bigaragara ko ashobora kuba abyutse akabanza gufata umuti ngo ayoze.

Umugabo urimo guseka, bikaba bigaragara ko ari koza amenyo akoresheje uburyo bwo gukoresha urudodo, ubu buryo bukaba budufasha mu koza amenyo yacu neza kandi nta ngaruka bigize ku menyo.

Igice cyo mu maso, icyo gice kikaba kigaragaza amenyo y'umuntu, ibi bice byifashishwa mu kwiga amenyo y'umuntu kugira ngo tubashe kuyamenya neza.

Icyumba cyo kwa muganga, icyo cyumba kikaba kirimo abantu babiri, akaba ari umugore uryamye ku gatanda baryamaho igihe bari gukurwa amenyo ndetse akaba ari kumwe n'umuganga, wambaye imyenda yabugenewe, bikaba bigaragara nkaho arimo kumukura amenyo.

Icyumba gikorerwamo isuku, harimo umuntu usa nk'aho akuze, afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusukura amenyo kugira ngo abashe kumera neza adafite indwara.

Icyumba kigari, giteguye neza, harimo ameza ndetse n'intebe, muri icyo cyumba harimo umugabo usa nk'aho akuze, akaba ari kumwe n'umugore, bicaye ku ntebe ndetse imbere yayo hari ameza, bafite impapuro bisa nk'aho ari kumwigisha gusoma.

Abagore babiri umwe muri bo akaba asa nkaho akuze, arimo gutegura ibyo kurya bitandukanye birimo imboga ndetse n'imbuto, ari kumwe n'undi ugaragara nkaho ari muto, bakaba bari kuganira baseka.

Umuntu usa nkaho akuze, ni umukecuru ariko afite ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bisa nkaho ari kuyikora.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ku bantu bakuze, hari umusaza bigaragara ko ari kuyikora ndetse hari n'umuganga urimo kumufasha kugira ngo atagira ikibazo.

Umukecuru wicaye hasi, imbere ye bikaba bisa nk'aho hari amashyiga ateretseho isafuriya bigaragara ko atetse hanze, kandi iruhande rwe hari inkwi ari kugenda yongera mu ziko.

Icyumba kirimo abantu bakuru, abasaza ndetse n'abakecuru. Bakaba bari gukora ibikoresho gakondo harimo nko kuboha ibyibo, imikeka ndetse n'ibindi.

Abageze mu za bukuru, bagomba guhabwa ubufasha kuko bo ntambaraga baba bagifite zo kwikorera ibintu byose. Hano hari umusaza bigaragara ko ashaje, akaba yambaye agapfukamunwa. Hakaba hari umuntu urimo kumwitaho amufungira amapesu y'imyenda, wambaye imyenda yabugenewe.

Ameza ariho ibyo kurya bitandukanye ndetse hakaba hagaragara umusaza urimo kwarura ibyo kurya ndetse iruhande rwe hari undi muntu uri kumuganiriza, bigaragara ko ashinzwe kumwitaho.

Bamwe mu bantu bakuze, baba bakeneye abana kugira ngo babaganirize, babashe kumva batuje kandi bari kumwe n'abantu. Mu cyumba harimo umugabo uteruye umwana, barimo gukina.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kikaba gikorerwamo n'abantu higanjemo abakuze, harimo umugore bigaragara ko ari umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo umubyeyi w'umumama usa nk'ukuze, bisa nkaho arimo gufata imiti kandi ari wenyine.

Umugabo bisa nkaho akuze muremure cyane wambaye imyenda yabugenewe, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse afite n'ibikoresho byifashishwa mu kuyikora.

Icyumba gitanga ubufasha, ku bantu bageze mu zabukuru. Harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'ikabutura y'umukara. Ari kumwe n'umukobwa, wambaye imyenda y'umukara hose. Urimo kumufasha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse akaba ari kumwe n'umuntu mukuru ugendera mu kagare k'abantu bakuze kugira ngo abashe kugenda neza kuko abantu benshi bakuru baba batagishoboye kugenda bemye.

Icyumba kirimo abantu babiri, hakaba harimo umukobwa uri gukoresha imyitozo ngororamubiri, umumama usa nk'aho akuze, yarambuye amaboko, bisa nkaho ari kubimutoza.

icyumba gihagazemo umugabo ndetse n'umugore bakaba bambaye amakarita bigaragara ko bafite igikorwa barimo inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu cyongereza.

Kimwe mu bikorwa Leta igenda ikora ni ugukora udukarita turiho amagambo runaka ndetse n'amafoto kugira ngo babashe gukangurira abaturage kwirinda indwara runaka. Ibi birabafasha kuko ubisomye abasha guhindura uburyo yakoreshaga.

Ikarita ifite amabara atandukanye, hakaba hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, bisa nk'aho iki cyapa cyifashishwa mu kwamamaza.

Ikarita yifashishwa mu kwamamaza ibintu bitandukanye, aho haba handitsweho amagambo kugira ngo babashe gusobanukirwa icyo bigamije, kandi ayo magambo aba yanditswe mu cyongereza.

Ikarita igaragaza umunsi wizihizwa ku Isi, wo kwirinda Diyabete hakaba hashushanyijeho umuntu ndetse hakaba hariho n'inyubako.

Ikarita iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, ikaba yandikishijweho inyuguti z'Icyongereza zanditswe mu ibara ry'umweru, bisa nkaho yifashishwa mu kwamamaza.

Ikarita yifashishwa mu kwamamaza, hakaba handitseho amagambo y'icyongereza ndetse hashushanyijeho abantu, harimo abakobwa babiri ndetse n'umusore umwe n'umugabo umwe. Bigaragara ko bafite udukingirizo mu ntoki.

Ikarita ifite uruhande rumwe ruri mu ibara ry'ubururu handitsweho amagambo y'Icyongereza yandikishijwe inyuguti z'umweru. Hirya hakaba hashushanyijeho umuntu wambaye imyenda y'abaganga.

Ikarita iriho abantu, hakaba hashushanyijeho umugabo ndetse n'abandi bana bambaye impuzankano y'ishuri. Ndetse biragaragara ko uwo mugabo ari kubagira inama. Kuri iyo karita handitseho amagambo y'Icyongereza.

Ikarita yanditsweho amagambo y'Icyongereza mu nyuguti z'umweru ndetse ikaba ifite ibara ry'ubururu. Bigaragara ko ishobora kwifashishwa mu buryo bwo kwamamaza.

Icyapa cyanditswe mu magambo y'Icyongereza, ni amagambo asobanura ibintu bitandukanye bijyanye n'uburezi.

Icyumba kirimo abantu benshi bisa nkaho bari mu nama, imbere hari abagabo batanu bahicaye ndetse n'umugore umwe, imbere yabo hicaye abantu benshi bakurikiye inama.

Inyubako ngari akaba ari ivuriro rivurirwamo abarwayi, mu gihe umuntu yumva agize ikibazo cyangwa se yumva atunguwe n'indwara ahita yihutira kujyayo bakamuvura kandi agakira.

Icyumba cyo kwa muganga aho abarwayi baryama mu gihe barembye, kikaba kirimo ibitanda bitandukanye abarwayi baryamaho ndetse harimo n'umuntu uri kuhakora amasuku.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari ikigo nderabuzima, harimo ibyumba bitandukanye birimo ibitanda by'abarwayi, ndetse bimwe muri byo haryamyeho abarwayi, ndetse harimo n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe n'udupfukamunwa.

Inyubako igaragara ko ari ikigo nderabuzima. Imbere yayo hakaba hahagaze abagore bane bambaye imyenda yabugenewe abaganga bakunda kwambara mu gihe bari kwita ku barwayi ndetse iyo nyubako yanditseho ngo "Inzu y'ababyeyi".

Icyumba gisa nkaho ari icyumba cyo ku ivuriro. Hakaba harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse bimwe muri ibyo bitanda hakaba haryamyeho abarwayi. Kandi harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kuganira n'umurwayi.

Inyubako ngari yubatswe neza ndetse irimo n'amakaro akaba ari inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, bishobora kwifashishwa umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, akaba ari inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kubika imiti imwe n'imwe yo kwa muganga.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, akaba ari inyubako yubatse neza kandi bigaragara ko ifite isuku, aho harimo ibyumba bitandukanye byakirirwamo abarwayi. Muri iki cyumba harimo ibitanda by'abarwayi baryamaho ndetse harimo n'abarwayi.

Igorofa ryubatswe neza rikaba rigeretswe gatatu, bisa nk'aho ari ikigo nderabuzima, munsi yaryo harimo imodoka ziparitsemo, ndetse ku marembo harimo y'umukara isohotsemo.

Inyubako ngari cyane ikorerwamo ibikorwa byo kuvura abantu, akaba ari inyubako iteye amarangi y'umweru, iruhande rwayo hari ubusitani ndetse hari n'umuntu ugendera mu kagare uri kujyayo.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, aha haba hari imiti myinshi itandukanye ku buryo iyo umuntu atunguwe n'indwara, ahita yihutira kubagana maze bakamuha imiti imugabanyiriza uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako ngari y'ivuriro, kikaba kirimo umugabo wambaye umupira w'ubururu, bigaragara ko ari gukora amasuku muri iki cyumba. Ari kumanika inzitiramibu. Ndetse hari n'umurwayi uryamye mu bitanda by'abarwayi.

Inyubako yubatswe neza ikaba iteye amarange y'umweru, imbere hakaba handitsweho amagambo y'Icyongereza ndetse hahagaze n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, ikaba ari inyubako yubatswe neza; Irimo amakaro y'umweru, ndetse n'intebe abarwayi bicaraho iyo bategereje ko babaha ubufasha, ndetse harimo n'abantu batandukanye. Hakaba harimo n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe.

Inyubako ngari cyane, iyo nyubako akaba ari ikigo nderabuzima, aho umuntu ashobora kujya kwivuriza mu gihe yafashwe n'uburwayi, imbere yayo hari igiti ndetse n'ubusitani.

Igorofa rinini cyane risa nkaho rikorerwamo ibikorwa byo kuvura abantu, ku buryo umuntu agize ikibazo yabagana bakamuvura, imbere yaryo hari ibiti by'imikindo.

Inyubako ngari ikorerwamo ubuvuzi, akaba ari ikigo nderabuzima, harimo abaganga benshi batandukanye kandi bambaye imyenda yabugenewe, bamwe muri bo bambaye n'udupfukamunwa.

Inyubako yubatswe neza, ifite amarangi meza, ndetse ikaba ifite n'aho kwakira abantu hari intebe ndetse n'ameza. Iyi akaba ari ivuriro, aho batanga ubufasha ku barwayi baje babagana.

Inyubako yubatswe neza, akaba ari igorofa, imbere yaryo hariho icyapa cyanditswe mu magambo y'icyongereza ndetse munsi yaryo hari abantu batandukanye kandi haparitswe n'imodoka.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye no gufasha abantu mu gihe barwaye cyangwa se bafite ikindi kibazo, harimo umwana bari gupima ibiro, hakaba harimo n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abandi babyeyi bafite abana.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, aho umuntu abagana mu gihe atunguwe n'indwara, akagura imiti kugira ngo ataremba, akaza kujya kwa muganga nyuma.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abaganga batandukanye bambaye imyenda yabugenewe, kandi hari n'ibitanda baryamishaho abarwayi mu gihe barembye.

Icyumba cy'ikigo nderabuzima gikorerwamo ibikorwa byo kwita ku barwayi. Harimo abantu batandukanye ndetse hari n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, urimo gutera urushege umugabo.

Inyubako ngari isakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo hakaba hari ubusitani ndetse iruhande rw'ubusitani hari icyapa cyanditsweho amagambo y'icyongereza gishinze mu muhanda w'amabuye.

Ibikoresho bitandukanye, akaba ari ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga kugira ngo hifashishwe mu gusuzuma abarwayi, mu bitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga batatu ndetse n'abandi bantu babiri baje kwivuza. Umwe muri bo yicaye ku gatanda k'abarwayi. Barimo kumufata ibimenyetso.

Inyubako ngari yubatse neza bigaragara ko ari ikigo nderabuzima. Harimo abantu benshi abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe ndetse bamwe muri bo bambaye udupfukamanwa.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi hakaba ari ikigo nderabuzima. Harimo icyumba kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, akaba arimo kuvura agahinja. Ako gahinja mama wako akaba agateruye.

Inyubako nini akaba ari ivuriro, ni aho umuntu ashobora kugana mu gihe afashwe n'uburwayi bakamuha ubufasha bukwiriye ndetse imbere yaho hagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Ibikorwa bishyirwaho na leta kugira ngo habashe gutanga ubuvuzi bw'ibanze mu duce tuba dutandukanye, kuko haba hari ibibazo abantu baba barabuze ubaha ubuvuzi. Hakaba harifashishijwe mu kubakwa itente, kugira ngo batange ubuvuzi bw'ibanze. Harimo no kujyayo abantu.

Inyubako ngari ikorerwamo ubuvuzi, akaba ari inyubako iteye amarangi y'umweru, ifite ubusitani imbere yayo ndetse hari n'amapave hirya y'aho.

Ivuriro ryubatswe mu nyubako nziza kandi nini iteye amarangi y'umweru. Kimwe mu byumba by'iryo vuriro, harimo ibitanda bishashe neza, aho abarwayi baruhukira mu gihe bari mu bitaro.

Igikoresho kizwi ku izina rya bande, cyifashishwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri. Mu gihe bagize ikibazo cyo kuvunika, bayihambiraho kugira ngo bidakomera, maze bakabona kujya kwa muganga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nk'ibipima ibiro ndetse n'uburebure, kandi hari n'imbuto umuntu ashobora gukoresha mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se nyuma.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri, hariho umukobwa uri gukoresha ibyo byuma ndetse iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'ibanze buhabwa abantu baba bari mu myitozo ngororamubiri hanyuma bakagira ikibazo, aha hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze kuri abo bantu.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba afite icupa ririmo amazi, arimo kuyimenaho, ibi bifasha umukinnyi kugira ngo abashe kuruhuka neza.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, mu gihe umuntu agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, gikunda gukoreshwa n'abakinnyi cyangwa se n'abandi bantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Igitabo kiriho amashusho atandukanye, agaragaza uko umuntu yakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibikoresho bishobora kwifashishwa muri iyo myitozo ndetse mo hagati handitsemo amagambo y'lcyongereza.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse higanjemo n'iby'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse harimo n'abantu bari gukora iyo myitozo kandi hari abaganga babugenewe bashinzwe gufasha abantu bajemo.

Icyumba cyubatse neza kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kirimo n'amatara. Kikaba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse harimo n'umukobwa uri gukoreramo imyitozo ngororamubiri aryamye hasi kuri tapi.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, bambaye imyenda y'abakozi ba Croix Rouge, ndetse hari n'umuntu bari gukorera ubutabazi bw'ibanze uryamye hasi kuri tapi.

Icyumba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe, akaba arimo kuvura umuntu wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, bisa nkaho ari kumugorora ingingo kugira ngo yongere amere neza.

Ibikoresho bikoreshwa kugira ngo hatangwe ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri. Iki gikoresho kikaba cyitwa bande bakaba bagishyira ku muntu wavunitse.

Ikarita iriho uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse hariho n'inama z'uko wayikora mu gihe wumva utameze neza.

Umuntu wambaye ekuteri, akaba asa nkaho ari mu myitozo ngororamubiri kandi arimo kunywa amazi, ibi bifasha umuntu uri mu myitozo ngororamubiri kugarura imbaraga.

Igitabo kiriho amashusho atandukanye agaragaza ukuntu umuntu yakora imyitozo ngororamubiri, igihe ari wenyine cyangwa se mu gihe ari kumwe n'abandi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwihuse ku bantu bagize ibibazo, mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye nk'amabande, imikasi ndetse n'ibindi.

Ikarita iriho ibikoresho bitandukanye, umuntu yakwifashisha ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'uburyo butandukanye umuntu yakoramo imyitozo ngororamubiri, bidufasha kuyikora neza nta ngaruka biduteje.

Umuntu wambaye imyenda yambarwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi mu icupa, ibi bikaba bifasha umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye higanjemo iby'ikoranabuhanga, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse harimo n'umuntu uhagaze.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse yambaye n'imyenda yabugenewe kugira ngo hakorwe imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu abashe kuyikora neza.

Abantu babiri bambaye imyenda iranga abantu bakora muri Croix rouge, bakaba bafashe umuntu bigaragara ko bari kumuha ubuvuzi bw'ibanze kuko yavunitse.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubufasha bw'ibanze igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, akagira ikibazo cyo kuvunika cyangwa se ikindi kibazo cy'ingingo, iki gikoresho cyitwa bande.

Ikarita igaragaza imikino cyangwa se imyitozo ngororamubiri umuntu yakora, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ndetse n'ibikoresho byakwifashishwa.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri. Ariko bikaba bisa nk'aho yagize ikibazo cy'ingingo, cyangwa se cyo kuvunika. Bakaba bari kumuha ubutabazi bw'ibanze, bakoresha ibikoresho byabugenewe.

Ukarita ishushanyijeho umuntu uri kwikanda ku itako, ikaba igaragaza ko mu gihe umuntu yaba yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri ashobora kugana ibitaro, bakamuha ubufasha bwihuse.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba afite amazi arimo kuyanywa, ibi bifasha umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo atagira umwuma.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse hakaba harimo n'iby'ikoranabuhanga, harimo umuntu uri guhabwa ubufasha, bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri akagira ikibazo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa kwa muganga ndetse hari n'ibyo umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari umuntu uri gukoresha telefone ya tuvugane, yicaye mu biro ndetse hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ku bantu bose batandukanye, bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bituma umuntu akora imyitozo ngororamubiri neza kandi nta mvune agize.

Umuntu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri ariko akaba ahuye n'ikibazo cyo kuvunika, ariko hari umuganga ubizi wabyigiye uhise ujya kumuha ubutabazi bw'ibanze, amushyiraho bande.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse higanjemo iby'ikoranabuhanga, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse harimo n'umuntu bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa no kwa muganga, aho bashobora kubikoresha barimo gupima indwara zitandukanye, yaba iz'ubuhumekero cyangwa se izindi zitandukanye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda yabugenewe ndetse akaba ari kunywa amazi, ibi bifasha umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo atagira umwuma.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri icyo gikorwa haba ibisanzwe ndetse n'ibikoreshwa ikoranabuhanga, hicayemo umuntu wicaye imbere ya kompiyuta.

Ibikoresho bitandukanye ndetse harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo uyikora abashe gukora neza, nta ngaruka agize cyangwa se ibibazo by'imvune.

Icupa ririmo umuti ukozwe mu byatsi cyangwa se mu bimera, akaba ari umuti gakondo uvura neza kandi utagira ingaruka ku uwukoresha.

Igitabo kirimo ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, kandi ishobora gukorwamo n'amavuta yo kwisiga avura indwara z'uruhu.

Kimwe mu mavuta meza, kandi atuma uruhu rumererwa neza nta ngaruka, harimo amavuta gakondo, akozwe mu bimera bitandukanye. Ari mu macupa abiri, bigaragara ko akozwe mu gikakarubamba.

Icyapa gishyirwa ku miti gakondo yifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye, uyu muti akaba ari umuti ukozwe mu gikakarubamba, uyu muti uravura cyane ku buryo nta n'izindi ngaruka ugira ku mubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu bose, iyi miti ikaba ikozwe mu bimera, hakaba handitseho ngo igisubizo ku muryango.

Umuti gakondo uvura Amibe. Uyu muti wifashishwa n'abantu barwaye Amibe kugira ngo babashe gukira. Handitseho ngo "Igisubizo kuri Amibe."

Umuti ukozwe gakondo, iyi miti ya gakondo ikaba ivura neza kandi ikaba itagira izindi ngaruka ku ruhu cyangwa se ku mubiri w'umuntu, akaba ari umuti ukozwe mu gikakarubamba.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo, iki kimera kikaba kizwi ku izina ryitwa umuravumba. Kivura indwara zitandukanye kandi umuntu agakira vuba.

Amavuta y'ubwoko butandukanye ndetse n'indi miti itandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari kwivura, iyi miti n'amavuta bikaba bikozwe mu bwoko bw'imiti gakondo, akaba ari imiti ikundwa gukorwa mu bimera.

Ikarita yifashishwa mu kumenyesha abantu ahabera ibikorwa byo gutanga imiti gakondo ndetse hariho n'ifoto ishushanyijeho uwo muntu, hakaba hari n'amashusho y'ayo mavuta cyangwa se indi miti batanga.

Kimwe mu bimera byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo, aho bakoramo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye, kandi bashobora no gukoramo amavuta cyangwa se isabune ,byakwifashishwa mu gukora isuku.

Umuti ukozwe mu bimera, akaba ari umuti wifashishwa mu koza amenyo, kugira ngo amenyo yacu abashe kugira ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo, iyi miti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi ukoresheje iyi miti ntago agerwaho ingaruka z'imiti yakoresheje.

Icupa ririmo amavuta akozwe mu bimera. Aya mavuta akaba ari umuti gakondo. Ashobora gukoreshwa mu kwivura indwara zitandukanye yaba iz'uruhu cyangwa se izindi ndwara.

Akabati karimo imiti itandukanye, akaba ari imiti ya gakondo, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye, iyi miti nta ngaruka igira ku buzima cyangwa se ku mubiri w'umuntu.

Akabati kabitswemo amacupa menshi atandukanye ndetse n'ibirahuri, bikaba byifashishwa mu kubikwamo imiti gakondo ikozwe mu bimera, ikaba ivura indwara zitandukanye.

Akabati karimo imiti itandukanye ndetse n'amavuta bikorwa mu byatsi cyangwa se mu bimera. Iyi miti akaba ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti ivura neza ntabwo umuntu ajya agira ingaruka zo kuba yayikoresheje.

Ibimera byifashishwa mu gukorwamo imiti ya Kinyarwanda, iyi miti ikaba ishobora kuvura indwara zitandukanye bitewe n'ibyo bazikozemo, yifashishwa n'abantu bose nta kurobanura.

Umuti gakondo ukorwa mu bimera, uyu muti ukaba uvura neza kandi ntago ugira ingaruka ku mubiri w'abantu, uyu muti ukaba ukozwe mu gikakarubamba.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye. Iyi miti ikaba ikorwa mu bimera kandi ikaba itagira ingaruka ku muntu wayikoresheje.